Umugore w'umuzungu ufite indangururamajwi yambaye isaha. Yambaye umupira ujya gusa n'umweru, ari imbere y'icyapa cya yunisefu, ari kubwira abantu imbwirwaruhame.

Umumama wambaye rinete ni umunyafurika pe biragaragara anambaye kinyafurika inyuma ye hari abana benshi b'abirabura bafashe ifoto ubona ko bayishimiye.

Abagore bambaye imyenda y'icyatsi hejuru abandi bambaye ibitenge by'umutuku ibitenge birimo amabara y'umuhondo n'umutuku ni benshi pe bahagaze imbere y'inzu y'umweru inyuma yabo hari abagabo bambaye imyenda y'umukara ndetse harimo abagore bateruye abana.

Abantu bari mu nama harimo umupolisi w'umugore, iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, imbere yabo hari akana gato, imbere yabo na none hari umugabo ufite indangururamajwi uri kubabwira imbwirwaruhame.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara inkweto z'umweru arimo araseka, arimo arakaraba ku kajerekani k'umuhondo.

Mu cyaro abaturage bari ku mugezi; hari umugore uri kuvoma amazi. Imbere hari umwana wateze ijerekani ku mugezi ngo avome.

Abana babiri b'abirabura, umwe yambaye imyenda y'icyatsi, undi yambaye umupira w'umutuku, bari ku mugezi bari gukina n'umugezi, urabona ko bishimye nk'abana koko, rwose barasa neza, barimo baraseka ubona ko byabashimishije gukina n'umugezi.

Abagabo n'abagore bahuriye ahantu runaka bambaye imyenda isa bigaragara yuko byanga bikunda hari icyabahuje.

Abagore n'abagabo abagabo b'abirabura n'abagore b'abazungu ndetse n'abagore b'abirabura, bigaragara ko bari bamaze gukora inama bagafata ifoto y'urwibutso.

Ni icyumba cy'inama kirimo abagabo b'abirabura ndetse n'abagore b'abazungu, imbere yabo hari indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi hirya hari ibitambaro by'umweru n'ibendera ry'u Rwanda.

Ni inkumi n'abasore bambaye impuzangano z'imyeru bambaye n'amakarita mu gatuza babiri muri bo bambaye imyenda isanzwe harimo uwambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara undi yambaye ishati y'umukara ndetse hari n'undi kuruhande wambaye umupira w'umukara n'ipantaro' y'umukara afite urupapuro mu ntoki.

Ni abantu abagore, n'abagabo, imbere yabo hapanze imifuka harimo umugore ukenyeye igitambaro cy'umutuku mu mutwe n'igisengenge cy'amabara menshi, hirya hari umugore wambaye imyenda y'iroza hino yabo hari undi wambaye igitambaro cy'umutuku n'umweru afite ingufu.

Ni umugabo mukuru uri kumugezi afite ijerekani y'umuhondo yambaye ipantaro y'umukara yambaye ishati y'umweru irimo amabara y'umukara arimo araseka.

Abama bane b'abirabura ibumoso hari umuntumu wambaye ishati y'umutuku yikenyeje igitambaro mu mutwe iruhande rwe hari undi mu mama wambaye ishati irimo amabara atandukanye wirabura cyane, iruhande rwabo hari abandi ba mama babiri barimo kubareba babitegereje.

Ni umumama wambaye ikanzu y'umutuku afite isakoshi mu ntoki, yambaye agapfukamunwa, iruhande rwe hari mugenzi we ufite igitabo mu ntoki, hirya y'aho hari undi mumama nawe wambaye agapfukamunwa ufite igitabo mu ntoki bisa n'aho bari mu mahugurwa.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zikigo bigaho, bose bafite ibikombe by'icyatsi ndetse n'iby'ubururu, bari kunywa amazi. Bambaye imipira y'imikara, n'amajipo yubururu, naho abahungu bambaye imipira y'imikara, n'amakabutura y'ubururu.

Umugore w'umwirabura munini wambaye ikanzu yicyatsi irimo utudomo tw'umweru, hirya ye hari undi mugore wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, n'umupira w'ubururu, hirya ye hari umuzungu wambaye umupira w'umweru w'umugore, imbere y'abo hari utwana twambaye impuzangano z'ubururu.

Abagore batatu bafite amajerekani bari ku nzu ahavomerwa amazi; iyo nzu yegamyeho umukobwa wambaye umupira w'umukara uteze igitambaro mu mutwe hari n'umukecuru wambaye ishati y'umuhondo.

Umwana urwaye araryamye kwa muganga, ari kwitabwaho n'abaganga babiri bambaye impuzankano z'umweru, mama we arimo aramwitegereza.

Umusazi ikirenge kimwe kirimo urukweto rushaje ikindi nta rukweto rurimo, yambaye imyenda yacikaguritse arasa nabi cyane, afite ishashi irimo amazi yicaye kumuhanda.

Abana bakiri bato, ibitambambuga mu kinyarwanda babita ibisekeramwanzi, bamwe bambaye amashati y'icyatsi, abandi bambaye imipira y'imyeru barogoshe barishimye.

Umugore ufite indangururamajwi imbere ye hari mudasobwa ku ruhande yicaranye n'umugabo hirya yabo hari umukobwa uri kureba muri mudasobwa.

Akana gateye impuhwe gafite imisatsi ikaraze isa n'umuhondo gatamiye icyo kurya karanasetse, kambaye karuvati y'ubururu, ishati y'umweru, kicaye ku ntebe zibaje mu biti kari mu ishuri.

Mu nkambi umwana uri kurira bigaragara ko ababaye, hejuru ye hahagaze umugore ufite inkwi agiye guteka, hirya y'aho hari abandi bantu benshi bicaye bananiwe.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi ku mutwe arimo araseka, iruhande rwe hari umusore wambaye umupira w'umweru ufite na we imisatsi ikaraze ku mutwe ari guseka, imbere yabo hari umugabo barimo barebana bigaragara nk'aho hari ikiganiro bari bagiranye, urabona umukobwa yambaye umupira w'umweru arishimye.

Umwana ufite ikibazo cy'amenyo aracyari muto biragaragara, ari kuvurwa n'umuganga wambaye ga z'umweru afite ibikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo, ibi bikoresho ni kabuhariwe mu kuvura amenyo.

Umusaza n'umukecuru bicaye, umukecuru ateye umwitero afite imvi ku mutwe, umusaza yambaye ishati y'amabara y'umweru yambaye n'ingofero y'umukara bari mu bukwe.

Umugabo wambaye ishati y'ibihogo, imbere ye hari mudasobwa, ku ruhande hari ikirahure. Yifashe mu gahanga bisa n'aho hari ibyamuyobeye.

Umukecuru uri mu kagare k'abamugaye, arambuye ukuboko ari kwereka umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, afite n'icyumvirizo mu matwi, ari kwita ku murwayi.

Ni abagore batatu bigaragara ko bari muri siporo babiri bambaye imyenda isa undi yambaye imyenda isa ukwayo inyuma yabo hari abandi bantu bisa n'aho bahuje umugambi barimo barajya mu cyerekezo kimwe.

Umusaza mukuru wambaye ipantaro y'ubururu. Yambaye inkweto z'umukara zirimo umweru. Yambaye isaha ku kaboko. Ishati y'ubururu. Yambaye ingofero y'umweru ku mutwe ,irimo n'ibara ry'umukara . Ari kumwe na mugenzi we wambaye umupira w'ubururu, inkweto z'umweru ,zirimo n'ibara ry'umutuku.

Abagabo babiri bakuze umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara irimo umweru, afite icupa ry'amazi mu ntoki barimo baragenda baganira.

Abasaza n'abakecuru b'abanyafurika, abasaza bambaye inkweto z'imikara n'amasogisi y'imyeru, abakecuru bambaye imyenda miremire igera ku birenge bakenyeye n'ibitambaro mu mutwe, biragaragara yuko bari mu nama y'umuryango.

Umusaza bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri yambaye umupira w'umweru, yambaye ipantaro y'umukara. Akaboko ke k'iburyo gafashe ku ntebe, iruhande rwe hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu n'isaha y'umukara.

Umugore uri kuboha hirya ye hari umukobwa wicaye ku ntebe y'umutuku arimo araseka, iruhande rwe hari undi mukobwa nawe wicaye hagati harimo akana gato, hirya hari umuzungu uteruye umwana w'umwirabura.

Umusaza ufite imvi ku mutwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ku bibero bye hari inkoni, iruhande rwe hariru umwana muto w'umukobwa nawe wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara afite icyo kurya mu ntoki, hirya ye hari akana k'agakobwa gato gafite akabido k'umweru.

Umukobwa ukiri muto, ufite imisatsi y'umukara ni umugangakazi ari kumwe n'umukecuru ufite imvi pe! Umusatsi wabaye umweru baraseka.

Abakecuru bambaye imyenda y'amabara atandukanye bicaye bareba mu cyerekezo kimwe birasa naho hari ikintu bari kureba, bamwe bambaye imyenda y'imituku, abandi bambaye imyenda y'ubururu bicaye mu ntebe z'umweru.

Ni igihiri cy'urubyiruko ruvangavanze no hino, bari mu bukangurambaga bwo kwirinda sida. Bamwe bambaye imipira y'imyeru n'amashati y'ubururu, hari abakobwa bambaye ibitambaro mu mutwe, harimo n'abasore bambaye amashati y'imihondo. Babukereye gushishikariza urubyiruko rugenzi rwabo kwirinda sida.

Umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, agapfukamunwa k'umweru, ga z'umweru, arimo arareba mu kanwa k'umusaza wicaye ku ntebe y'umutuku.

Umugabo ushinzwe umutekano, wambaye impuzankano y'icyatsi, iruhande rwe ari kumwe n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara, hirya ye hari undi wambaye umupira w'umweru, ni abagabo n'abagore b'abirabura ndetse bari kumwe n'abazungu.

Icyumba gisize irangi ry'umweru harimo ibishushanyo by'amaso, harimo isakazamashusho, hari ameza asize ibara ry'icyatsi n'umweru, hejuru yayo hari mudasobwa.

Umugore w'umuzungu ubyibushye, iruhande rwe hari umwirabura wambaye umupira umwe n'umugabo muremure wambaye ijaketi y'umukara, kuruhande hari undi mugore nawe w'umwirabura wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru imbere hirya yaho hari undi utagaragara neza nawe wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Abaganga bambaye impuzankano z'imyeru, umuganga umwe w'umugore arahagaze afite ikaramu mu ntoki afashe ku ntebe, undi afite kayi n'ikaramu ari kwandika.

Umugore wicaye mu kagare k'abamugaye yambaye agapfukamunwa ari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzangano ishati y'umweru ipantaro y'umweru.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo intebe isize irange ry'umweru hasi hejuru ifite irangi ry'ubururu, ku ruhande hari intebe y'umukara y'ikizeru, hirya hari akabati gateretseho mudasobwa iyo ntebe ifite amapine.

Inzu isa umukara ndetse n'umweru imbere yayo hagaze umugore n'umugabo, umugore yambaye umwitero w'ubururu umugabo yambaye ikote ry'umweru imbere y'iyo nzu hari indabyo.

Inzu isize irangi ry'umweru ndetse n'umukara, yicayemo abantu batatu, babiri bambaye imyenda y'icyatsi, ku ruhande hari umuntu uri kugenda wambaye ipantaro y'umukara utagaragara neza, hirya hari abandi bari kuza.

Umusore uryamye ku gitanda kwa muganga, yambaye agapfukamunwa k'umukara, yambaye ingofero y'umukara, umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara; ari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru.

Ni ibitanda byo kwa muganga ni bitatu, igitanda kimwe kiriho umurwayi wiyoroshe amashuka y'umweru, ikindi gitanda cya kabiri kiriho ishuka y'mweru ariko nta muntu ukiryamyeho, igitanda cya gatatu kiryamyeho undi murwayi wiyoroshe ishuka y'ubururu.

Umugabo uhagaze ku nzu isize irangi ry'umweru. Yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara n'ikote ry'umukara ari kureba muri terefone. Iruhande hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru irimo amabara y'umukara yicaye ku ntebe y'igiti.

Umuntu uryamye ku buriri yambaye inkweto z'icyatsi, amasogisi y'umweru, birasa naho yagize imvune arimo arakandwa n'umugabo cyangwa se umuganga wambaye imyenda y'umukara, yambaye udukomo ku maboko yombi.

Umukobwa wambaye isengeri ya orange yambaye ekuteri z'umweru mumatwi ni umukobwa wumwiraburakazi yambaye isaha y'umukara amaboko ye yayazamuye hejuru yumutwe arayasobekeranya.

Ni umugore cyangwa se umukobwa bigaragara yuko yari ari muri siporo icyayaka kiramufata anywa amazi, yambaye isengeri y'ubururu afite imisatsi izirikiye inyuma miremire.

Imbuto n'imboga by'ubwoko butandukanye, ku ruhande hari umunzani upima ibiro by'abantu, iruhande na none hari inkweto, hirya gato hari itapi bakoreraho imyitozo ngororamubiri.

Umugabo bisa n'aho yakomeretse ikirenge, yambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'icyatsi. Ari kwitabwaho n'umuganga wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Bari kumuzirikisha igitambaro cy'ubururu, yicaye ku ntebe cyangwa se imisego y'umukara.

Ni imodoka y'umweru ifite amabara y'umutuku. Ihetse ipine inyuma bigaragara yuko ari iryo kwifashisha mu gihe irindi rigize ikibazo. Iri mu mahuriro y'imihanda, ni imbangukiragutabara.

Abana ndetse n'abantu bakuru bambaye imyenda y'amabara atandukanye biragaragara yuko bari mu myitozo ngororamubiri imbere yabo hari umutoza wambaye umupira w'umweru uri kubatoza.

Ikirahure gisa neza bari gusukamo amazi y'urubogobogo ubona rwose ko agaragara neza, ni amazi wanywa akagera ku nyota pe arasa neza, afite isuku, ikirahure gisa n'ubururu.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi y'imikara izingiye inyuma, yambaye indangururamajwi z'umweru mumatwi, afite icupa ryamazi risa n'ubururu ari kunywa, yambaye isengeri y'ubururu.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye inkweto z'umukara n'umweru amasogisi y'umweru yambaye ikabutura y'umukara n'iseri y'umukara yambaye isaha y'umukara ukuguru kwe yakuzamuye agushyira ku kiraro cy'ibiti.

Amacupa arimo imiti gakondo itandukanye, harimo icupa rirerire ry'icyatsi rifite umufuniko w'umweru hari irigufi rifite umufuniko w'icyatsi iruhande rwaryo hari iry'umweru rifite umufuniko w'ibihogo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, imbere yambaye umupira w'umutuku ufite icyapa cyu'umweru mu gatuza; ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare yiziritse igitambararo mu mutwe.